Ukwamamaza k'ubwishingizi bwo gushyingura kwa solasi, gukozwe mw’ibara ry'umweru, icyatsi n'ubururu, hariho n'ururabyo rufite amabara atandukanye icyatsi, umuhondo n'umukara kuri kumeza isa kaki.

Icyapa cya miwe kiri ku ngofa ndende ikikijwe n'ibirahuri n'icyapa gisa iroza n'umweru cyanditseho amagambo ngo tsindira ibihumbi makumya na bitanu buri cyumweru, wakohereza kuri mirongo itatu na mirongo icyenda na kabiri gatandatu ibyatsi byaryoha nk'isukari.

Iduka ricuruza ibikapu bya kinyafurika harimo ibikapu bisa umutuku harimo ibisa umweru harimo ibisa umuhondo arimo ibisi icyatsi harimo ibisa ubururu, iryo duka inkuta zaryo n'umweru hasi amakaro na yo ni umweru.

Iduka ricuruza inkweto zitandukanye harimo iz'abakobwa zisa umutuku, umukara, oranje zitereretse ku kabati k'umweru inyuma ku rukuta rusa umukara.

Iduka ricuruza ibintu bitandukanye harimo amaterefoni, za mudasobwa, amasaha, inkweto amasakoshi, parufe rifite ibara rya move n'umweru.

Iduka ricuruza imyenda ya kinyafurika itandukanye, amabara atandukanye arimo ubururu, umweruru, icyatsi, bitewe n'ibara ushaka, rifite ibitenge by'ubwoko byose byiza.

Amafaranga y'amanyamahanga yo mu gihugu cy'ubuhinde yo muri banki rizavu y'ubuhinde, ikaba ari amafaranga magana cyenda afite ishusho ya mahati magandi.

Mu iduka ricuruza inkweto zo hasi zisa umukara zimwe, izindi zigasa umutuku, izindi zigasa icyatsi, izindi, zigasa umweru ku kaetajeri k'umweru ngo afashe ku rukuta rusa umweru, hasi hari amakaro y'umukara.

Iduka rigurisha ibintu bitandukanye, harimo imyenda, amashakoshi n'ibindi bifite ameza yirabura hejuru yayo hariho imitako, hari umugabo wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara hahagazemo imbere, imbere hari mudasobwa ari kuvugana n'umugabo wambaye ishati ya karokaro waje kugura.

Abagabo batatu bahagaze hamwe, bambaye imyenda itandukanye, umwe hejuru yambaye ubururu, undi yambaye ishati y'umweru, undi yambaye umupira w'umweru, bari imbere y'imodoka y'umweru n'umukara izwi ku izina rya toyota, munsi hasashe amapave, bigaragara ko ari kumuhereza urufunguzo rw'akagera bizinesi gurupe.

Imbere y'imodoka shyashya nziza icyambaye amashashi isa umukara, hasi mu matapi no mu mpande hagasamo kaki, ikaba ifite agateleviziyo gasa umweru n'umukara.

Abagabo babiri bahagaze imbere y'ikinyabiziga kinini kizwi nka fuso umwe yambaye umukara hasi n'ubururu hejuru undi yambaye umweru n'umukara hasi bombi bafashe urufunguzo rw'akagera motozi muganza byabo.

Umugabo wambaye ishati y'umweru n'umukara, ufite umupira ku rutugu w'umutuku, ufite umusatsi muke, utandukanyijwe n'undi wambaye ubururu hejuru, umusatsi muke hagati harimo ikirahure arimo arashaka serivisi z'amafaranga.

Iduka ricuruza ibyokurya bitandukanye harimo: amakeke ari ariyo atetse ku isahani y'umweru hariho n'agapapuro ko kwihanaguza k'umweru, isahani iteretse ku meza y'umukara n'umweru.

Iduka ricuruza amata, harimo icyuma gisa umweru, ubururu n'amagambo yanditse mu mweru gikonjesha amata hakaba hari na firigo ku ruhande ifite amata apfunyitse mu bujerekani atandukanye.

Apurikasiyo ya banki ikoreshwa muri telefone, igaragaza ko wayifashisha kwishyura ibintu bitandukanye; magana atanu, aha bigaragara ko yabashije kwishyurwa neza cyane.

Inyubako ariko igaragara ko iherereye i Kigali mu Rwanda; iragaragara yuko iri kugurishwa aho bavuga ko umuntu afite miliyoni ijana na mirongo ine abasha kuyigura, iri i Kanombe Kigali, ni uburyo rero bumenyerewe bwo kugurisha aho abantu bagaragaza ibiciro by'ibicuruzwa.

Inoti ebyiri zitandukanye za rimwe za banki nkuru ya Kongo, imwe igizwe n'abagabo bicaye indi igizwe n'inganda.

Inoti z'amayero zitandukanye : harimo inoti y'amayero atanu, hakabamo inoti y'amayeri icumi, hakabamo inoti y'amayero makumyabiri, hakabamo inoti y'amayero mirongo itanu, hakabamo inoti y'amayero ijana, hakabamo n'inoti y'amayero magana abiri.

Inoti ya banki nkuru ya Tanzaniya y'amashiringi y'igihumbi imbere n'inyuma, imbere hari isura y'umugore ufite umusatsi muke, inyuma hariho inyubako ifite idarapo.

Iduka ryo guhinduriramo amafaranga rifite ibirahure by'umukara rikagira imiryango y'ibyuma isa kaki, hejuru hari icyapa cy'umuhondo kivuga amagambo yanditse mu mutuku avuga Imana irashoboye, munsi ayanditse n'umukara avuga ko hari iduka ryo guhinduriramo amafaranga.

Icyumba cyagenewe kuriramo gifite imeza y'ikirahuri n'imbaho, n'intebe zikaba zikozwe mu mbaho hirya hari akabati wabikamo ibikoresho bitandukanye, hakaba hari n'ahantu umuntu yakarabira mbere yuko arya.

Akabati keza gasa kaki gafite aho ufunguza ho utwuma, hejuru yako hari isaha ya kijyambere nziza, inyuma yaho hari imitako myiza, iruhande hakaba hari igitanda cya kaki gisashe neza gifite amashuka y'umweru n'umukara.

Icyumba cyo kwicaramo kirimo intebe zikozwe mu biti n'imisego isa umweru n'umukara n'imeza ikozwe mu biti, n'kirahuri inyuma yaho hari uburiri n'akabati ka kaki gato iruhande rw'uburiri.

Terasi yo hanze irimo akameza n'intebe byumukara, hasi hari pasiparumu nziza irimo nindabyo zitandukanye. Hirya hari pisine iruhande hari aho abantu bakicara, hejuru hari umutaka wumutuku.

Telasi yo hanze ya hotel ifite pisine n'ahantu ho kwicara iruhande.

Icyumba k'inama kirimo imeza ifite akamikoro, iruhande hari intebe nyinshi, iruhande hari akabati wabikamo dokima, hari n'umuryango usa ku ruhande rwaho hari ikirahuri hari na tereviziyo yanditsemo izina rya kampani saniramu ubwishingizi.

Ibiro by'ubwishingizi bikozwe mu mbaho n'ibirahure, imbaho zisa umukara na shokora, hejuru hasa umweru n'amatara asa umweru, hasi hasashe amakaro y'umweru n'umukara.

Ibiro by'ubwishingizi bwa radiyanti bufite imiryango isa ubururu, hariho amagambo yanditswe m'umweru hasi ku isima hasa umutuku inkuta zisa umweru.

Iduka ry'ubwishingizi hasi hasashe itapi hari akantu gahagaze k'akuma gakozwe mubirahuri, karimo utuntu twinshi wakwifashisha ku kumenya kuri ubwo bwishingizi, hari abantu batatu bicaye bambaye oranje hejuru imbere hari meza y'umweru n'intebe z'umukara na televiziyo mu nguni.

Inzu ikodeshwa iri Kicukiro muri Kigali, ifite ibyumba bine n'amadushe atatu na tuwarete ikaba ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana atanu ku kwezi.

Ibiro byiza cyane bya salama, ubwishingizi bufite hasi hasa umweru, kaki hakagira imeza za kaki, ari iruhande, intebe z'umweru hakagira n'imeza z'umweru, inkuta zisa umweru, hejuru kuri parafo hasa kaki n'umukara, hakagira na televiziyo y'umukara.

Inyubako nini y'ubwishingizi bwa ode maco igizwe n'amatafari y'umweru, n'ibirahure cyane cyane, aho abantu binjirira hasi hasashe amapave, iruhande hari ibiti biteye byiza, n'aho abantu bakifashisha bicaye.

Ukwamamaza kw'ikiganiro cya ayendemu banki yubake na ayendemu banki ni nde wemerewe inguzanyo, ikiganirozagezwaho na christian Abijuru kizaca kuri radiyo wane.

Ukwamamaza kwa be eride kuvuga ideni ry'abanyeshuri, uwarifata uryemerewe uburyo ki waryishyura mu wasura aho dukorera muri egipo rwa cumi n'umunani.

Isoko ry'ubucuruzi aho abacuruzi bahurira bazanye ibicuruzwa bitandukanye n'abantu bahurira baje gushaka ibintu bitandukanye harimo ibyo kurya inyanya, pavuro tungurusumumu, ibitunguru n'ibindi byinshi bitandukanye.

Inzu nini y'ubucuruzi irimo amaduka menshi agiye atandukanye, ikikijwe n'ibirahure bisa ubururu n'irangi ry'umweru, na oranje mu mpande hari aho imodoka ziparika, mu mpande y'aho imodoka ziparika hari kaburimbo yifashishwa n'ibinyabiziga bitandukanye.

Inzu y'ubucuruzi, ihagazeho abantu benshi mu gorofa zose zitandukanye, ni ikizu kinini gisa umuhondo hasi hari parikingi y'amamodoka.

Iduka ricuruza ibintu bitandukanye, harimo imyenda amasakoshi ubukomo amashanete ingofero bya kinyafurika, harimo imyenda ikozwe mu bitenge imyenda yoroshye, hasi hashashe sima hari n'intebe y'umweru, hagati hirya hahagaze umugore wambaye umweru hejuru hasi umukara.

Isoko rinini ririmo imyenda myinshi itandukanye, hari ikozwe mu bi bitenge, harimo ibikapu, harimo imitako, harimo amashanete, udukomo harimo n'inkweto cyane cyane imyenda y'abagore.

Iduka ricuruza ibintu bitandukanye bya kinyafurika harimo ibitenge, harimo imitako, harimo ubukomo, harimo imyenda myinshi itandukanye.

Isoko ifite imiryango itandukanye, hasi hasashe amakaro y'umweru n'ay'umukara, hagiye harimo ibicuruzwa bitandukanye, imyenda, amarinete, intebe n'inkweto n'ibindi byinshi.

Akazu gato ngasize irangi ry'umuhondo hariho amagambo yanditse mu mukara ka emutiyene, gakuramo abakozi ba emutiyene batanga amayinite ku bantu bashaka guhamagara cyangwa kubantu bashaka kohereza amafaranga cyangwa kubashaka kubikuza amafaranga bakoresheje telefone.

Abagabo n'abagore bamwe bicaye abandi bahagaze bari mu kwamamaza kwa Emutiyene, barimo utumeza dusa umuhondo, abamamaza bambaye imipira y'imihondo abandi bambaye imyenda isanzwe y'amabara atandukanye.

Iduka rifunguye ricuruza ibikoresho byo mu nzu, matora, intebe zikoze mu buryo butandukanye, ameza, utubati, tujyamo inkweto n'utwo bashyiramo ibindi bintu, intebe za purasitike zigerekeranye.

Urubuga wakifashisha uri ku murongo rwitwa bayanse rugizwe n'itsinda ry'abantu ibihumbi bine magana icyenda, wakifashisha ushaka kugura cyangwa kugurisha.

Urubuga rwa Kimironko maketi akadomo rwa, ruramenyesha ko rufite poromosiyo y'umuryango irimo ibintu byinshi inkoko, inyama z'inka, kawunga ibintu byinshii birayi, ko byavuye kuri mirongo itandatu na biridwi magana atanu y'Amanyarwanda bikagera kuri mirongo itanu na bine magana atanu by'Amanyarwanda harimo derivari.

Urubuga umuntu yakwifashisha kuguraraho imyenda y'abagore rwitwa jumiya, bagira imyenda myinshi itandukanye y'abagore harimo iyo hejuru, iyo hasi iy'ibitenge n'ubundi bwoko bwinshi abakobwa bakunda burahari.

Urubuga rwitwa alibaba izina ryanditswe muri oranje. Ni urubuga rwifashishwa mu kugura ikintu umuntu yaba yifuza kugura, kuko ni urubuga rufite ibintu byinshi bitandukanye harimo imyenda, ibyuma bitandukanye byaba ari ibyo gukoresha mu gikoni, yaba ari ibyo gukoresha mu buhinzi, amateleviziyo ibintu byinshi cyane bitandukanye umuntu yaba aba yifuza.

Icyumba cyo muri bayibure esitete, gifite uburiri bwiza bunini busa umukara iroza n'umweru n'imisego, hejuru hari amatara meza iruhande hari ububati wakwifashisha kubikaba imyenda iruhande hakaba n'akandi kabati karimo televiziyo n'imitako, n'umuryango umwe ufunguye uri iruhande n'udafunze.

Inzu ifite urupangu rw'umukara n'umweru ikagira urugi rw'umukara n'umweru, ikaba isakajwe n'amabati atukura. Inzu nziza igurishwa miliyoni mirongo irindwi n'ebyiri z'amanyarwanda i Kigali mu Rwanda.

Inzu nziza ya etaje ikodeshwa ku kwezi amadolari y'ayamerika igihumbi n'ijana, isa kaki ikaba ikikijwe n'ibirahuri ikagira n'urupangu rwiza rusa ubururu n'umuhondo porutaye igasa umukara hanze hakaba hateye n'ibiti n'utubuye tw'umweru.

Umugore n'umugabo bari ku busitani bwo hanze barahagaze umugabo yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'ubururu umugore yambaye ikanzu irimo amabara atandukanye y'umutuku ,umweru n'umukara iruhande rwabo hari jaride imeze neza irimo ibiti iruhande , ku rundi ruhande hari ahantu abantu bakifashisha bashaka kwicara hari intebe .

Igikoni cyiza cyane cy'inzu iri Gisozi hafi ya Kagugu i Kigali mu Rwanda, gifite amakaro meza, irangi ryiza, ububati bwiza, wabona ku giciro cya miliyoni magana atatu mirongo itanu y'amanyarwanda.

Icyumba cyo gutekeramo gifite ububati bwa shokora, gifite amakaro asa umukara n'umweru hasi, mu mpande ni amakaro asa umweru, hejuru ni shokora. Iki cyumba kiri mu nzu wabonera amadorari igihumbi n'ijana ku kwezi.

Icyumba cyo kogeramo no kwihagarika gifite umusarani w'umweru ufunguye, kigizwe n'amakaro y'umweru n'umukara, kiri i Remera Gishushu Kigali gikodeshwa ku bihumbi magana atandatu ku kwezi, harimo n'ibyumba bibiri ariko nta kindi kintu kiyongeyemo.

Inzu nziza ifite amakaro meza y'umukara n'umweru, ifite irange ry'umweru, amadirishya afite ibirahuri asize umukara, ikaba igurishwa imiliyoni ijana na mirongo itatu y'amafaranga y'amanyarwanda muri Kigali Rwanda.

Inzu iri ku isoko igurishwa nziza iri kimironko i Kigali isa umweru ikaba ikikijwe n'amakaro n'ibirahuri ikaba ifite amapave ashashe hasi n'indabyo ziteye ku ruhande.

Inzu nziza ifite irangi ry'umweru n'umuhondo isakajwe n'amabati y'umukara ifite amakaro y'umweru n'umukara, ikaba ifite parikingi y'imodoka eshatu, hari ama pave y'umutuku n'umweru ikaba igurishwa miliyoni mirongo icyenda n'eshanu z'amanyarwanda i Kanombe i Kigali mu rwanda.

Icyumba cy'imbere mu nzu wakwifashisha utekeramo gifite amakaro meza asashe hasi y'umweru no mu mpande, amakaro y'umweru n'umukara, ububati bwa kaki kiri mu nzu ifite icyumba kimwe na dushi imwe Kacyiru Kigali aho gikodeshwa ibihumbi magana abiri by'Amanyarwanda ku kwezi.

Inzu nziza iherereye i Kanombe igurishwa ku mafaranga makeya wabona, yubakishijwe amatafari ahiye n'urupangu rwubatse mu matafari ahiye. Hasi hasashe amapave, ifite amadirishya y'ibyuma by'icyatsi n'ibirahuri by'umukara.

Inzu ifite inkuta z'umweru, imiryango yirabura iri Kabeza, ikodeshwa ibihumbi magana atatu ku kwezi, ifite ibyumba bitatu ikagira aho mwogera cyangwa mwihagarika hamwe, ikagira aho mwicara muganirira hamwe, aho hanze ubusitani mubusangiye n'inzu imwe.

Isoko rya kijyambere rinini ririmo amaduka atandukanye hasi hasashe amaka ro meza, hari imeza zigiye zitandukanye aho abantu bakicara basaba icyo kurya zifite ibitamabaro by'umweru n'umutuku n'abantu bari kugenda mu isoko.

Iduka ricuruza ibikoresho umuntu yakwifashisha mu gikoni. Byamworohereza gukata ibintu byinshi bitandukanye harimo ibitunguru, amakaroti, inyama n'ibindi byinshi umuntu yifashisha mu gikoni.

Umuntu ufashe inyama mu kiganza cye, zipfunyitse mu ishashi bakunda kwita sosiso, imbere ye hari mudasobwa n'anvelope ya kaki, n'akuma gatanga interineti n'izindi nyama ziri hasi zitandukanye.

Inzu y'ubucuruzi m'ibara ry'ubururu, umuhondo yanditseho amagambo rebanoni hoteli utuyira tunyurwa mo n'abanyamaguru ibidukikije birimo indabo ndetse ibara ry'umukara n'umweru.

Umugore wicaye mu iduka ricuruza ibintu byinshi bitandukanye, yicaye ku ntebe yirabura, iruhande hari urukuta rw'umweru, hasi hasashe isima, mu mpande hari utubati dusa shokora, tugiye turimo ibintu bitandukanye.

Iduka ricuruza ibintu bitandukanye umuntu yakifashisha mu kwambara harimo impeta ,amaherena, ubukomo, shanete bya zahabu cyangwa diyama .

Iduka ricuruza ibintu byinshi bitandukanye harimo ibiribwa, ibikoresho by'umubiri, ibikoresho byo mu gikoni. Rifite parafo isa kaki hariho supaneti igurisha, hasi hakaba hari amakaro asa kaki.

Umugabo n'umugore bicaye hamwe umwe yicaye ku ntebe y'umukara umugore we yicaye ku ntebe y'ubururu, bambaye bombi imyeru hejuru inyuma hari shitingi yanditseho araesesibi y'umweru.

Abagore batanu n'umugabo umwe bicaye hamwe, umugore umwe wambaye umukara n'umweru hejuru n'umukara n'agatambaro k'umutuku yicaye ku ntebe y'umweru, abandi bo bicaye ku ntebe isa kaki ikozwe mu biti ndende.

Umugabo uhagaze ufite icyapa gisa icyatsi umweru hariho amazina ya mucyo william ko yatsindiye amafaranga ya miliyoni imwe n'ibihumbi magana abiri mirongo itanu by'amanyarwanda yambaye ishati y'umukara n'umweru ya karokaro yambaye agapfukamuwa k'icyatsi afite umusatsi uringaniye.

Iduka rinini ricuruza ibintu byinshi bitandukanye harimo ibiryo, harimo imyenda, harimo ibikoresho byakifashishwa, ahantu henshi hatandukanye, rifite amakaro y'umukara n'umweru, hejuru parafu isa umweru n'amatara y'umweru n'ububikiro busa umweru bw'ubwuma

Iduka ryubucuruzi rizwi nka simba ,rifite amagambo yanditse muri orange, rifite ibintu byinshi bigiye bitandukanye bitewe n'icyo umuntu ugura ashaka kugura.

Iduka rinini cyane ricuruza ibintu byinshi bitandukanye haririmo ibyo kurya harimo ibyo mu gikoni harimo imyenda ibintu byinshi bitandukanye hasi risasheho amakaro y'umukara hejuru n'umweru n'amatara yera.

Iduka rifite ibintu byinshi bitandukanye harimo firigo icuruza imitsima itandukanye bitewe n'uwo ushaka, ku ruhande ya furigo hari ikindi cyuma gishyushya amasambusa, imigati, hirya yaho hakaba hari ikindi gicuruza amafanta cya furigo.